Imodoka iparitse hejuru y'ibyuma, ifite ibara ry'umukara, umweru. Igiye kunywa esanse muze namwe ni karibu tugurisha esanse ku giciro cyiza.

Abagore bishimye bambaye imikenyero ifite amabara y'umuhondo, udusengeri tw'umweru, bamanitse amaboko bafite imirishyo bari kuvuza ingoma, bazadutumire tuze mu bukwe bwanyu, tubavugirize ingoma.

Abagabo babiri bicaye ku kibuga cy'ubwatsi, bari gukina igisoro, iruhande rwabo hariho agacuma karimo urwagwa. Gukina igisoro ni byiza, bituma turuhuka mu mutwe.

Ikibindi cyegamiye inzu, gipfundikije ibirere. Inzu isize irangi ry'umweru n'icyatsi, amadirishya y'ibyuma asize irangi ry'umukara, igishushanyo kibajwe mu giti gifite ishusho y'umutwe w'umuntu.

Inka zihagaze zifite amahembe maremare y'umweru, zambaye imitako umweru n'umukara mu ijosi, zifite ibara ry'umukara ziri kumwe n'umushumba wazo.

Umugore wicaye uri kuboha icyibo gifite amabara y'umutuku n'ubururu, wambaye igitenge cy'amabara y 'umuhondo n'umutuku muze tubahe ibyibo ku giciro cyiza.

Umutemeri w'ikibo utatse neza, urimo amabara y'umweru, n'umukara. Muze tubabohere ibyibo byiza.

Umubyinnyi warambuye amaboko, wasimbutse hejuru, wambaye imisatsi miremire y'imyeru, n'igitenge cy'umutuku, siporo ni nziza, ituma twishima twese.

Ibyibo byinshi bitondetse ku murongo, bitatse amabara atandukanye umukara, umweru, umuhondo, muzaze tubabohere ibyibo byiza.

Ibiryo bitetse biri ku mbehe harimo: ibishyimbo, imboga, ibijumba, ibigori, ibihaza, mwese muratumiwe muze tubahe ibijumba, bihaza, ni byiza bituma tugira imbaraga.

Umurima uteyemo karoti nyinshi zifite amababi y'icyatsi. Inzu zubakishije amatafari ahiye, zisize amarangi y'umweru, ibirahuri by'umukara.

Urusengero rwubakishije amatafari ahiye, amabati y'umutuku, rusize irangi ry'umweru, ibiti byiza cyane bituma tubona umwuka wo guhumeka mwiza.

Inzu yo kwa muganga irimo amakaro, ibitanda bishashe neza, isize irangi ry'umuhondo, amadirishya y'ibyuma, abarwayi iyo baje ni ho baryama, bakabavura.

Abantu bari kwambuka ku kiraro gikozwe mu byuma, gisize irangi ry'ubururu n'umuhondo. Abanyeshuri bagiye kwiga. Insina nziza muze tubahe ku bitoki bigiye kwera.

Abagabo bane batwaye amata ku igare, undi umwe atwaye ibisheke ku igare, ibisheke ni byiza byongera isukari mu mubiri, amata ni meza atuma tugira ubuzima bwiza, muzaze tubagurishe ku giciro cyiza

Imodoka zihagaze zisize irangi ry'umweru n'umutuku n'icyatsi ,zicayemo abantu, abantu bahagaze bari kuzinjiramo, muze tubatware ku giciro cyiza.

Ikimodoka kinini gisize irangi ry'umuhondo n'umweru, giparitse ku muhanda wa kaburimbo, kigiye kwinjiramo abagenzi bagiye impande zose, muze tubatware ku giciro kiza.

Moto ya rifani yicayeho umugore wambaye bote, igisarubeti cy'icyatsi, n'ingofero y'umutuku ipakiye ingorofani. Iyi moto ikora akazi neza, namwe muzatubwire tubatwarire ibintu.

Moto zifite ibara ry'umutuku n'umukara, zicayeho abamotari bambaye ingofero n'amajire y'umutuku, n'abagenzi bagiye kuzicaraho, muze tubatware ku giciro cyiza.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ikabutura y'icyatsi, amasogisi y'umweru, inkweto umweru, afite akuma mu ntoki kari gukubita agatenisi, siporo ni nziza, ituma tugira ubuzima bwiza, tugakura neza.

Abantu bambaye imyenda z'icyatsi n'umuhondo, bari gukora siporo mukibuga cyiza, siporo ni nziza, ituma tugira umubiri mwiza, ndetse tukarwanya n'indwara nyinshi.

Umukobwa wambaye isengeri, ikabutura ifite amabara y'icyatsi n'umuhondo, ufite icyuma mu ntoki cyo gukinisha, siporo ni nziza ituma umubiri ukura neza.

Ikibuga kirimo abakinnyi. Harimo umukinnyi umwe ufite umupira, wamanitse akaboko ugiye kuwujugunya. Gukina ni byiza bituma tugira umubiri mwiza ni karibu muze dukine.